Inama yahuje abayobozi mu nzego zitandukanye, haba ubuzima, umutekano, inzego z'ibanze aho haba hari kurebera hamwe uburyo abaturage bafashwa kwegerezwa ubuvuzi ndetse n'ubuhari bukabasha kuba bwakwitabirwa kuko hari abaturage baba bafite umuco wo kutitabira ubuvuzi buba bwarabegerejwe bigatuma bahora barwaragurika bakaba bananduza bagenzi babo.

Umubyeyi uherutse kwibaruka yajyanye uruhinja rwe ku bitaro aho yitabiriye ikingira rusange bino bikaba ari ingenzi ku buzima bw'umwana kuko bituma atabasha kurwaragurika indwara zitandukanye ndetse kandi hari n'abandi barwayi bitabiriye iryo kingira rusange aho baje nabo kwikingiza indwara zitandukanye.

Ivomero rusange aho abana bane bagiye kuvoma, hakaba hari umugore uri kubafasha kuvoma amazi. Ibi ni ingenzi cyane kuko bituma abaturage babasha kubona amazi meza yizewe yo kunywa, atarimo udukoko dushobora kuba twateza indwara.

Abana batandatu harimo abakobwa bane n'abahungu babiri bari kunywa amazi bakoresheje ibikombe, aya mazi ni amazi meza asukuye yagenewe abanyeshuri bakuru urwunge rw'amashuri kugira ngo bajye babasha kubona amazi meza yo kunywa ku buryo batanga amazi mabi bakaba yabatera indwara zitandukanye.

Umuganga bigaragara ko yirinze bishoboka byose, aho afite agapfukamunwa ndetse n'agakingira amaso, arimo aravugisha umurwayi bishobora kuba ari mu gihe cy'indwara z'ibyorezo, ariko abaganga bakaba baba bagomba kwegera abaturage, kugira ngo babasuzume babashe kumenya nimba bafite izo ndwara, ku buryo uwaba afite izo ndwara yajyanwa mu kato akabasha ko yakurikiranwa atanduza bagenzi be.

Uruganda rufite ibikoresho bihagije biruha ubushobozi bwo gutunganya amazi akaza asukuye ku buryo abanyagihugu babasha kubona amazi atanduye, bino bikadufasha kurinda indwara zandurira mu kunywa amazi adasukuye nka Korera ndetse n'izindi ndwara zo mu nda nk'Amibe.

Ivomero rusange aho abaturage bahurira hamwe bakabona amazi meza bashobora kwifashisha mu mirimo itandukanye yo mu rugo, nko guteka, kunywa ndetse no koza ibyombo, ibi bikaba bituma batarwara indwara zikomoka ku gukoresha amazi adasukuye nk'inzoka, kandi bigatuma n'ubuzima bwabo bukomeza kuba bwiza.

Abana bishimiye ivomero rusange ryashyizwe ku rwunge rw'amashuri yabo, aho bashobora kubona amazi meza yo kunywa bityo bigatuma indwara ziterwa no kunywa amazi adasukuye zibasha kuba azagabanuka kandi bakabasha kubona amazi meza, bituma babasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ameza ateretseho kandagira ukarabe y'ubururu. Ku ruhande hari isabune y'umweru, hari umuntu urimo urakaraba intoki, ashobora kuba avuye mu bwiherero cyangwa agiye gutegura amafunguro, kugira ngo ayategurane isuku kandi ataza gutera abandi indwara.

Umwana w'umukobwa arimo arakaraba intoki, aho yagiye kuvoma ku ivomero rusange ritanga amazi meza yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo, bino bigatuma habasha kwirindwa indwara ziterwa n'umwanda cyangwa kunywa amazi adasukuye urugero nk'inzoga.

Abana batatu bari ku rwunge rw'amashuri, barishimye kuko barimo barigishwa gukaraba intoki bakoresheje isabune, n'amazi meza. Uyu ukaba ari umuco mwiza wo kwigisha abana, cyane cyane mbere yo gufungura cyangwa nyuma yo gukoresha ubwiherero, kuko bibarinda kurwara indwara zandurira mu mwanda, harimo nk'indwara zo mu nda nka korera, cyangwa amibe.

Umwana w'umukobwa arimo aravoma mu mugezi uri mu gishanga kandi ari kuvoma akandagiyemo, ku ruhande rwe hari umugabo urimo uroza igare bigaragara ko amazi adasukuye. Aya mazi akaba ari mabi ku buzima bw'abantu kuko ashobora gutuma bagira indwara zitandukanye zo mu nda harimo nk'inzoka kandi bino bikaba byatuma n'imibereho yabo iba mibi kurushaho kubera kurwaragurika.

Umwana yagiye ku ivomero rusange, aho iri vomero rituma abaturage babona amazi meza asukuye bashobora kuba banywa cyangwa bagakoresha mu yindi mirimo itandukanye nko guteka cyangwa koza ibyombo, bigatuma abantu batarwara indwara zikomoka ku mwanda ndetse no gukoresha amazi adasukuye.

Umuganga wo ku bitaro arimo arashishikariza abaturage uburyo babasha kwita ku mibereho yabo, aho arimo arababwira uburyo babasha kwirinda indwara zitandukanye zikunda kuzahaza bene abo baturage, kuko byaje kugaragara ko kwirinda biruta kwivuza.

Ibirori byo kwakira imbangukiragutabara yegerejwe abaturage, aho izajya ibafasha kugera ku bitaro bikuru mu gihe indwara bafite zishobora kuba zitafashwa n'abaganga bo ku bigo nderabuzima cyangwa abajyana b'ubuzima bo mu mirenge itandukanye, bityo bigatuma bagezwa kwa muganga byihuse kandi bakaba babasha gufashwa n'abaganga babizobereye.

Ivomero rusange aho abana, abagore, abagabo bo muri kano gace bahurira bakavoma amazi meza asukuye yo kunywa no kwifashishwa mu gutunganya amafunguro, kandi bikaba ari ingenzi kuko bigabanya indwara zituruka ku mazi adasukuye, kuko aya mazi aba afite isuku kandi bigatuma hirindwa indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Inama yahuje abayobozi mu nzego z'ubuzima, aho baba bari kurebera hamwe uburyo habasha gusaranganywa ibikoresho ndetse n'imbaraga mu buzima ku buryo bugera kuri bose, hatagize abasigwa inyuma cyangwa ngo abandi bitabweho, abandi ntibitabweho, ibi bikakaba ari ingenzi cyane gutuma ubuzima bwa buri muturarwanda ndetse na buri muturage wese bubasha kubahirizwa.

Umwana yajyanywe n'umubyeyi we ku bitaro aho bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imirire mibi. Ari kumwe n'abaganga bari kumukurikirana. Ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko iyo abaturage bafite ibitaro bi begereye, abana nk'aba babasha kuba bakurikiranwa byoroshye, ku buryo babasha gukira bene izi ndwara, kuko badakurikiranwe bishobora kubaviramo ubumuga buhoraho.

Igikorwa aho abaganga bamanuka bagasanga abaturage mu nzego zitandukanye, aho bashobora kubasanga nko ku mashuri ku buryo abaturage babasha kohereza abana cyangwa na bo bakajya kwisuzumisha indwara zitandukanye, bino bigatuma habasha gutahurwa indwara zishobora kuba ziri kwibasira abaturage, mu gihe runaka zikabasha kuba zakurikiranwa kandi zikavurwa.

Umubyeyi yagiye kuvoma ku ivomero rusange ribasha gutanga amazi meza ku baturage batuye muri aka gace, ibi bikaba bibafasha kubona amazi meza yo kunywa no gutekesha atanduza indwara nk'ayo ashobora kuba yatera izo ndwara arangwa mu bishanga kandi bikaba bituma batabasha kurwara izo ndwara ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi barimo barafashanya kuvoma amazi meza aturuka ku ivomero rusange, ibi bikaba bituma babasha kugeza amazi asukuye mu ngo zabo, akaba ari yo yifashishwa mu kunywa, mu guteka, ndetse no gusukura amasahani, ibi bigatuma ababa mu rugo batabasha kuba barwaragurika indwara zituruka kugukoresha amazi adasukuye, nk'inzoka.

Umwana ari ku ivomero rusange aho arimo arakaraba intoki bigaragara ko babashije kumva neza ko gukoresha amazi meza bakaraba intoki, ari ingenzi cyane ku gutuma batabasha gukwirakwiza indwara zandurira mu mazi mabi nk'inzoka ndetse n'izindi.

Abafatanyabikorwa ndetse n'abakozi bakora mu nzego zitandukanye z'ubuzima, bahuriye hamwe mu nama yigira hamwe uburyo ubuvuzi bwabasha kugera kuri bose nta na bamwe bahejwe. Ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko bituma hareberwa hamwe inama cyangwa ingamba zafatwa mu buryo bwo kugeza ubuvuzi kuri bose kandi bikaba byatuma imibereho y'abaturage ikomeza kwiyongera.

Umubyeyi yajyanye umwana we kumukingiza indwara zitandukanye, ibi bikaba ari ingenzi cyane, kuko umwana wakingiwe aba afite ubuzima buzira umuze, akaba atarwaragurika indwara zikomeye zishobora kuba zamuviramo urupfu, kandi bigatuma hari n'indwara ashobora no kutazigera arwara mu buzima, kuko umubiri we wabashije guhangana nazo hakiri kare.

Umwana muto wambaye agapira gasa n'ubururu, arimo arakarabywa intoki hifashishijwe amazi meza n'isabune, ukaba ari umuco mwiza wo gutoza abana kuko ubarinda kwandura indwara zandurira mu myanda. Cyane cyane, bakaba bagomba gukaraba neza nyuma yo gukoresha ubwiherero, ndetse na mbere yo gufungura ndetse na nyuma.

Ivomero rusange ritanga amazi meza kandi ahagije, ritanga amazi afite isuku ku buryo abarikoresha babasha kubona amazi meza yo kunywa bikaba bitabatera indwara zituruka ku mazi adasukuye. Kandi bishobora kuba byakwifashishwa kandi mu guteka amafunguro yo mu rugo, bityo bikarinda indwara zituruka ku mwanda nk'inzoka.

Igikorwa aho abana bakiri bato cyangwa abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bahurizwa hamwe bakabasha kugenerwa indyo yuzuye ndetse n'ibindi bishobora kuba byabafasha kugira ubuzima bwiza nk'amata, bino bikaba ari ingenzi cyane kuko abana batabashije kubona indyo yuzuye, bashobora kuba bagira ubumuga buhoraho bigatuma n'ubuzima bwabo mu gihe kizaza butagenda neza.

Icyapa kigaragaza ubukangurambaga bushishikariza abantu kwita kuzima bwabo bwo mu mutwe, cyane cyane bibanda ku mahoro yo mu mutwe kuko byaje kugaragara ko abantu batita mu mahoro yo mu mutwe, bashobora kwijandika mu byatuma bagirana nabi bagenzi babo, ibi bikaba bigaragaza ko ubuzima bubi bwo mu mutwe butagirira nabi umuntu umwe gusa, ahubwo bushobora gutuma yangiza n'abagenzi be bamuri iruhande kuko ashobora gutuma umutekano wabo ujya mu kangaratete.

Umugabo ufite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, ari ahantu hasa nabi kandi nawe urabona ko afite imyanda bigaragara ko atiyitaho, iyi ni imwe mu ngaruka mbi zo kutagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyangwa kuba butakwitabwaho bishobora gutuma umuntu agira indwara ihoraho y'ubuzima bwo mu mutwe, bigatuma atabasha kwiyitaho cyangwa kuba yakora imirimo itandukanye ya buri munsi.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuzima ku rwego rw'Igihugu, bamanutse aho bagiye mu bukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira gusuzumwa ndetse no kuvurwara indwara zo mu mutwe kuko byagaragaye ko bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe ariko bakaba batitabira ubuvuzi bwabyo.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho, ari kuganira n'abagore bane bambaye ibitenge na bo bicaye, bigaragara ko bahuje urugwiro, umwe muri bo arimo araseka, undi afite ikaramu n'urupapuro, bigaragara ko bashobora kuba bari kujya inama y'uburyo babasha kwiteza imbere.

Ubukangurambaga, aho abayobozi mu nzego zitandukanye n'abaturage bahurira hamwe bafite insanganyamatsiko yo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku gitsina ndetse n'irindi kuko byagaragaye ko ihohoterwa rituma abantu bagira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, bikaba byanabaviramo ingaruka mbi zo kwiyahura.

Ibitaro bikuru bifite umwihariko wo kuvura abarwayi bo mu mutwe ndetse n'abandi bafite ikibazo cy'ihungabana, aho bafite abaganga babizobereyemo bafasha abarwayi babagana kuba babasha kuba bakira indwara zo mu mutwe ku buryo babasha gukomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi nta kibazo.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Ari wenyine aho bigaragara ko ari kureba ibitekerezo. Ibi bikaba ari ikimenyetso kibi kandi gikomeye cy'iyo ndwara, kuko iyo umuntu adafite abantu bamuganiriza iyo ari afite iyo ndwara ashobora kuba yagira n'ikibazo cyo kwiyahura. Rero ni ngombwa ko umuntu wumva afite bene iki kibazo yakwiyegereza abaganga cyangwa akareba abantu bamuba hafi muri bene ibihe bitoroshye.

Umukobwa w'imibiri yombi, yicaye ku ntebe iri ku rubaraza, arimo araseka cyane, afite ibyishimo bigaragara, ikintu cyiza gishobora kuba cyamubayeho. Mu rugo arimo hakaba hateyemo ibiti by'imikindo.

Urugaga rw'abanyeshuri biga ubuforomo, ariko bafite ubunararibonye mu kurwanya indwara zo mu mutwe, aho bihuriza hamwe kugira ngo babashe kurebera hamwe ibibazo ababyeyi cyangwa abana cyangwa urubyiruko bahura nabyo, bigatuma indwara zo mu mutwe ziyongera, bityo bikabafasha kuba babasha kuzirwanya.

Abagore bane bambaye ibitenge bakaba bicaye ku ntebe zitandukanye, hakaba hari n'umugabo wicaye aho abareba mu maso wicaye ku ntebe y'urubaho birasa nk'aho barimo baraganira bahuje urugwiro aho bashobora kuba bari kwiga ku byabateza imbere aho umwe mu bagore afite ikayi n'ikaramu ashobora kuba ari kwandika zimwe mu nama barimo barajya kugira ngo bazazihurizeho hamwe kandi babashe kuzikurikiza.

Igishushanyo mbonera cyerekana aho mu gihugu umuntu ashobora gusanga ubuvuzi bwo mu mutwe, aho byaje kugaragara ko muri kino gihe indwara zo mu mutwe ziri kugenda ziyongera cyane cyane mu rubyiruko, haje gufatwa ingamba zo gukwirakwiza ubuvuzi kugera ku nzego z'ibanze, ku buryo buri muturarwanda wese yabasha kugerwaho n'ubwo buvuzi kandi bw'umwimerere.

Urubyiruko rwaturutse imihanda yose rwahuriye hamwe, aho rwagiye mu bukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko byaje kugaragara ko indwara zo mu mutwe zikunda kwibasira urubyiruko, cyane cyane urukoresha ibiyobyabwenge cyangwa urutitabira ibikorwa bijyanye no kwita ku mibereho yo mu mutwe, rero bikaba ari ngombwa ko rubimenya ku buryo rwabasha kwita kuri iyo mibereho yo mu mutwe, bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, akaba afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa bigaragara ko atitaho, ikigaragara cyo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mitekerereze cyangwa indwara zo mu mutwe, bano bantu bakaba baba bakeneye ubuvuzi bwihariye kuko indwara zo mu mutwe ari nyinshi kandi zikaba zikenera abaganga babizobereyemo kugira ngo babashe kuba babakurikirana.

Abayobozi ku rwego rw'Igihugu begereye abaturage bagamije kubashishikariza kwita ku mibereho yabo yo mu mutwe, kuko byagaragaye ko muri kino gihe indwara zo mu mutwe zikomeje kwiyongera, bityo barimo barabashishikariza kujya babasha kwita ku mibereho yabo yo mu mutwe, bibanda ku kuruhuka bihagije, gukora siporo no kwirinda ibiyobyabwenge.

Agakoresho kariho akadodo gato gatuma kabasha kwinjira hagati y'amenyo abiri bikaba byatuma imyanda iri hagati y'amenyo ibasha kuvamo, kakaba ari ingenzi cyane kuko gatuma imyanda ishobora kuba itakurwamo n'uburoso, ibasha kuvamo umuntu akagira isuku yimbitse mu kanwa.

Umugabo ufite amenyo asa neza bigaragara ko ayitaho bihagije, afite akadodo arimo arakoresha avana imyanda iba iri hagati y'amenyo, ino myanda ikaba itaba yabasha kuba yakurwamo n'uburoso busanzwe rero aka kadodo kakaba ari ingenzi kubasha kwimika isuku yo mu kanwa yimbitse.

Ifoto ifatwa n'imashini kabuhariwe mu kureba mo indani mu mubiri w'umuntu, aho abaganga b'amenyo bayifashisha bareba uburyo amenyo y'umuntu ateye, bakabasha kuba bamenya aho ikibazo cy'amenyo kiri, ku buryo babasha kumenya uko bayavura.

Umugabo n'umugore bafite amenyo bigaragara ko asa neza, kuko bayitaho bihagije, barimo barifashisha urudodo bavana imyanda iba igi iri hagati y'amenyo, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko hari imyanda myinshi yibitse hagati y'amenyo, ariko abantu benshi ntibajya bibuka kuyikuramo kandi nayo ishobora kuba yateza indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Umugabo ukuze afite akamenyero keza ko kwita ku menyo ye, aho gukoresha uburoso ndetse n'umuti w'amenyo gusa, ahubwo afite n'akadodo gatoya akoresha, agasukura hagati y'amenyo ye, akavanamo imyanda iba ishobora kuba bitakurwamo n'uburoso bwonyine.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, arimo aroza amenyo ye akoresheje uburoso bw'ubururu, ibi bikaba ari ikimenyetso cyiza kidushishikariza kujya twita ku menyo yacu, tuyoza tubyutse ndetse na nyuma y'amafunguro kuko bituma amenyo yacu atangirika, akabasha kugumana ubuziranenge.

Umwana ukiri muto yajyanywe ku muganga w'amenyo aho ari kumusuzumira nimba amenyo ye ameze neza, nimba akorerwa isuku bihagije cyangwa nimba nta menyo yo gukurwa yaba afite. Ibi ni ingenzi cyane gutangiza kujyana abana ku muganga w'amenyo hakiri kare, kuko amenyo afite indwara zitandukanye ashobora kurwara, kandi izi ndwara zikaba zagira ingaruka mbi ku buzima rusange, bikaba byanateza n'izindi ndwara zo mu mubiri za karande.

Umunyeshuri uri kwimenyereza kuzaba umuganga w'indwara zo mu kanwa, afite agakoresho kagezweho ko kwigiraho kuvura indwara zo mu kanwa, aho kameze nko mu kanwa nk'umuntu, aho ashobora kwifashisha agakoresha ku buryo azabasha kumenya uko mu kanwa h'umuntu hateye, akazabasha kumenya n'uko amuvura neza, nta muntu yangije.

Umurwayi w'umukobwa yagiye kwa muganga kwivuza indwara zo mu kanwa, aho umuganga ari kumurebera neza mu kanwa, areba ubuzima bw'amenyo ye, ibi bikaba ari ingenzi cyane, kuko buri wese aba agomba kujya kureba umuganga w'indwara zo mu kanwa akamurebera uko mu kanwa ke hameze, kuko mu kanwa habamo indwara nyinshi ariko abantu benshi bagasa nk'abakunda kubyirengagiza.

Ivuriro ry'indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo ryubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harangwa isuku ndetse hakaba ari hagari ku buryo habasha kwakira abantu benshi kandi bose bakabasha kuba bavurwa mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Umugabo yagiye kwa muganga, aho yagiye kugisha inama ndetse no gusuzumisha amenyo ye, afite amenyo asa neza bigaragara ko ayitaho, ibi ni ingenzi cyane kuko ubuzima bwiza bwo mu kanwa n'amenyo butuma ndetse n'undi mubiri wose ugira ubuzima bwiza, kuko hari indwara nyinshi zishobora gukomoka ku kuba hari amenyo adafite ubuzima bwiza.

Ifoto igaragara amenyo y'umuntu ikaba ari ifoto yifashishwa n'abaganga b'amenyo, ikaba ifatwa n'ibyuma kabuhariwe mu gufotora mo indani mu muntu, bikaba bifasha abaganga b'amenyo kubasha kubona uko amenyo y'umuntu ateye bakabasha kumenya aho bari buyagorore cyangwa ubuvuzi runaka bari buhe umuntu bitewe n'uko amenyo ye ateye.

Umubyeyi uri mu za bukuru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho afite akanyamuneza kagaragara ku maso, iki kikaba ari ikimenyetso cyiza cy'umuntu wita ku mibereho ye no mu gihe cy'izabukuru, kuko imyitozo ngororamubiri yongera ubudahangarwa bw'umubiri, kandi guhorana ibyishimo bikaba arigenzi gutuma umuntu atarwaragurika cyangwa ngo abe yagira ibindi bibazo byo mu mitekerereze.

Umubyeyi w'umukecuru ukuze ari gukina amakarita n'undi mugore, bishoboka ko ari nk'umwana we, ndetse n'undi mukobwa ushobora kuba ari nk'umwuzukuru we; ibi bikaba ari ingenzi cyane gusabana n'ababyeyi bakuze, kuko bituma bumva bitaweho, kandi bikaba byatuma bahorana akanyamuneza gatuma iminsi ikomeza kwicuma, kandi bagahorana ubuzima bwiza; kuko baba bumva ko bakunzwe kandi bitaweho.

Umugabo ukuze uri mu myaka y'iza bukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bishobora kuba ari umukobwa we kandi bigaragara ko bose bafite akanyamuneza ku maso. Ibi ni ingenzi kuko abakuze baba bagomba kuba bari kumwe n'imiryango yabo kandi nayo ibishimiye, ibi bikaba ari ingenzi gutuma bagira ubuzima bwiza kandi bumva bishimye mu muryango.

Umusaza ari kumwe n'umukobwa w'umuforomokazi umufasha mu mibereho ye ya buri munsi, kumumenyera ibyo arya, kumumenyera nimba yaruhutse, kumenya nimba yafashe imiti agomba gufata, barimo bararebera hamwe amakuru agezweho, bigaragara ko bafitanye umubano mwiza, kandi uno mukobwa abasha kumwitaho mu buryo buhoraho bigatuma uno musaza agira ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umugore ukuze arimo arategurana amafunguro n'umukobwa ukiri muto ushobora kuba ari umukobwa we, bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bafitanye umubano mwiza kandi bari gutegurana amafunguro meza kandi yuzuye, ibi ni ingenzi ku bakuze kuko baba bagomba kuba bari kumwe n'imiryango yabo ibitaho ku buryo bibongera akanyamuneza kandi bagafungura indyo yuzuye kuko ituma babasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi uri mu myaka y'izabukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri muto umufasha imirimo itandukanye no kumufasha ku bijyanye n'ubuvuzi aba akeneye, kandi bigaragara ko bose bafite akanyamuneza ku maso. Iki ni ikimenyetso cyiza cy'uko uno mubyeyi ari kwitabwaho neza mu myaka mikuru arimo, kandi bikaba ari ingenzi cyane kuko bituma byongera iminsi yo kubaho.

Umubyeyi w'umugore ukuze, arimo arafata imiti aba yarandikiwe na muganga, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko umubyeyi ugeze mu myaka mikuru, aba afite indwara zitandukanye za karande, rero ni ngombwa ko afata imiti neza kuba yarandikiwe na muganga ku buryo ibasha gutuma ahangana n'izo ndwara zikaba zitamuzahaza.

Umusaza uri mu myaka y'izabukuru ari kumwe n'umukobwa umufasha mu mibereho ye ya buri munsi, aho amufasha mu bijyanye n'imirire, akamumenyera nimba yariye indyo yuzuye, akamumenyera nimba yaruhutse bihagije, ndetse akanamufasha gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje nko kugenda, akaba arimo anamufasha guhaguruka kugira babashe kuba bajya gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje, nko kugenda byoroheje.

Umugabo n'umugore bari mu myaka mikuru y'izabukuru, bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko ntacyo babuze mu myaka yabo mikuru, aho umugabo arimo aranywa amazi, mu gihe umugore ari kumuganiriza, ibi ni ingenzi kuko guseka byongera iminsi yo kubaho, bigatuma kandi akanyamuneza bagahorana ku maso yabo, nubwo baba bageze mu myaka mikuru.

Umugabo n'umugore bari mu myaka y'izabukuru barimo barafatanya kunywa imiti baba barandikiwe na muganga, bityo bigatuma bayinywa uko muganga yabibategetse bino bikaba ari ingenzi cyane kuko uko ukoresha imiti nabi bishobora kuba byagira ingaruka zitari nziza, rero ni ngombwa ko abakuze bafatanya ndetse n'ababareberera bakabafasha gufata imiti neza ku buryo bataba bagira ingaruka mbi zo gukoresha imiti nabi.

Ababyeyi bakuze bazindukiye mu myitozo ngororamubiri, aho barimo barakora imyitozo yoroheje, nko kugenda ariko ibi bikaba ari ingenzi cyane, kuko bituma babasha gukoresha ingingo zabo neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, bigatuma batarwaragurika kandi n'ingingo zabo zikaba zikora neza, bikaba bitabaviramo ubumuga karande.

Umugabo n'umugore bakuze bari mu myaka y'izabukuru, barimo bararebera hamwe imiti bashobora kuba bandikiwe na muganga, bakabasha gukora ubushakashatsi bwabo ku buryo babasha kumenya icyo izabafasha kubavura mu gihe cyabo, barimo kandi ibi bikaba bigaragaza ko imibereho yabo yo mu mutwe nayo imeze neza kuko baba bagitekereza neza kandi bigaragara ko bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bitabwaho neza.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, yicaye mu ntebe aho ari kumwe n'umukobwa umufasha, aho amufasha mu bijyanye n'imibereho, amumenyera ibyo akeneye, amumenyera ubuvuzi ashobora kuba akeneye, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko umuntu ugeze mu zabukuru akenera umuntu umwitaho, bityo bigatuma atabasha kuba yagira ibibazo bitandukanye kuko bakunze kwibagirwa.

Ababyeyi basheshe akanguhe, bafite umunezero aho bahuriye hamwe, bakaba bari gucinya akadiho, ibi bikaba bigaragaza ko babanye neza kandi n'ababitaho bafite akazi keza bari gukora kuko bari gutuma babasha kugira umunezero kuko iki ni ingenzi cyane ku buzima bw'abakuze, baba bakeneye kwitabwaho kandi bagahorana umunezero kugira ngo batarwaragurika cyangwa bakaba bagira n'izindi ndwara nko kwibagirwa.

Umugabo ukuze bigaragara ko ari mu myaka yo mu zabukuru, ari kugenderera mu kagare bishoboka ko atagishobora kugenda bitewe n'indwara zishobora gufata amagufa, ari kumwe n'umwitaho w'umukobwa, barimo baraseka bigaragara ko bahuje urugwiro kandi yitaweho mu buryo bushoboka bwose, ku buryo abasha kugumana akanyamuneza nubwo ari mu myaka mikuru.

Umubyeyi ukuze yagiye gusurwa n'abuzukuru be, aho bafite akanyamuneza ku maso, bigaragara ko bamwishimiye. Biba ari ingenzi cyane mu gihe umubyeyi yageze mu myaka y'izabukuru kuko abakeneye abana bamuganiriza cyane, kuko bene ibi bituma agira akanyamuneza gatuma iminsi yo kubaho yiyongera.

Umubyeyi ukuze arimo arafashwa n'umuforomokazi gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko abakuze baba bagomba na bo gukoresha ingingo zabo kugira ngo zitazabaviramo ubumuga karande, kandi bakagira n'abantu babafasha, kuko hari byinshi baba bakeneye gufashwamo, nko kumenyerwa indyo yuzuye, kumenyerwa nimba bafashe imiti cyangwa kumenyerwa nimba baruhutse bihagije.

Umubyeyi ukuze ku buryo asigaye akenera akabando kugira ngo abashe kugenda, ari kumwe n'umukobwa umufasha imirimo itandukanye yo mu rugo, aho bavuye guhaha uwo mukobwa akaba amutwaje ibyo bavuye guhaha, bakaba bari kugenda baganira, bino bikaba biri gufasha uno mubyeyi ukuze, kugira akanyamuneza mu myaka ye ikuze.

Itangazo rihamagarira abantu kwitabira ubukangurambaga burebera hamwe ikibazo cy'ubusumbane mu kubasha kugerwaho n'ubuvuzi, cyane cyane ubuvuzi bw'abagore batwite n'ababyara kuko byaje kugaragara ko hari abatabasha kubona ubwo ubu buvuzi bwizewe bigatuma bagirwaho ingaruka bikaba byabaviramo gupfa cyangwa kubyara abana bafite ibibazo, kuko baba batarabashije kugerwaho n'ubwo buvuzi.

Inzumberabyombi yahuje urubyiruko rwaturutse imihanda yose, aho baje guhabwa amahugurwa mu buryo butandukanye, bwabafasha kwiteza imbere ndetse no kurinda ubuzima bwabo, muri iki gihe turimo. Bicaye aho bari gufata ifoto nyuma yo guhabwa impamyabushobozi yo kuba babashije kwitabira ayo mahugurwa.

Imbwirwaruhame igaragaza uburyo indwara z'ibyorezo zongera ubusumbane mu migendekere ndetse n'imitangire ya serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho bigaragara ko abakire bashobora kubona ubuvuzi abakene ntibabubone ariko haramutse hashyizwe imbaraga mu kongera ibitaro ndetse n'izindi nyubako zifashishwa mu buvuzi, bino byabasha kuba byakemuka mbere y'igihe y'uko izo ndwara z'ibyorezo ziboneka.

Abasore n'inkumi bari mu bukangurambaga bwo kwigisha urubyiruko ndetse na rubanda nyamwinshi, ibibi byo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bakaba bari kubashishikariza gukoresha agakingirizo kuko karinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka SIDA ndetse n'izindi nka Mburugu.

Abagore bane bafite akanyamuneza ku maso bigaragara, bitabiriye ubukangurambaga bwo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, ikaba ari indwara mbi akenshi ifata abagore bakuze, bakaba bari mu bukangurambaga ku kigo cy'amashuri aho bagomba kubwira abana b'abangavu kwitabira ikingira rya kanseri y'inkondo y'umura, kuko bibafasha kutazayandura mu gihe kizaza.

Ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kwirinda gukoresha imiti uko babonye kose batayandikiwe na muganga, kuko bishobora kubagiraho ingaruka yo gutuma iyo miti itazongera kubagirira akamaro, kandi bigatuma n'izo ndwara bari kwivura zitakira, kuko baba batazi ubwoko bw'imiti barimo barafata cyangwa ibyo barwaye.

Inyandiko zitandukanye zifashishwa mu bukangurambaga bwa Leta bwo gushishikariza abaturage kuyoboka ugukingira kw'indwara zitandukanye nka Kovide cumi n'icyenda, aho baba bari gushishikariza abaturage no kohereza abana babo kuko aribo baba bafite ingaruka zo kwandura cyane, kandi no kuzahazwa n'indwara, kandi bakaba babasha no kuzikwirakwiza mu baturage bandi bose.

Igitabo gikubiyemo amategeko agenga abaganga, kikabafasha gutanga ubuvuzi burambye kuri bose, hibandwa cyane ku ndwara zitandura, indwara z'ababyeyi bakibyara, ndetse n'abana bakivuka, ndetse kandi hakaba n'amategeko agenga abakozi bo kwa muganga, ndetse n'abajyanama b'ubuzima bo mu midugudu igiye itandukanye.

Igitabo gikubiyemo amakuru agaragaza uburyo abaturage bashoboye kugana ubuvuzi bwo kuboneza urubyaro, bityo bigatuma babyara abo bashoboye kurera, ibi bikaba bigaragaza nimba ubukangurambaga bwakozwe bwarabashije kugirira akamaro abaturage bakabasha kumva akamaro ko kuboneza urubyaro.

Icyumba cyo mu bitaro gifite ibikoresho bigezweho kandi byizewe mukubasha guwusuzuma ndetse no kumenya indwara umuntu afite, ndetse n'ibyuma bifasha umuntu kubaho mu gihe umubiri we utakiri kubasha gukora neza, kandi hakagaragara n'ibyuma bifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri atava aho ari ku buryo akomeza gutuma umubiri wo ukora neza kandi akiri mu bitaro ariko ubasha gukurikiranwa n'abaganga.

Abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga w'ubuganga ndetse n'ubuforomo, bahuriye mu cyumba cyabugenewe cyo gukoreramo ubushakashatsi, aho baba bafite ibikoresho bisanzwe bisangwa kwa muganga bityo bigatuma babasha gukoresha ibyo bikoresho ku buryo nibagera mu bitaro bazabasha kubikoresha bakabasha gutanga ubuvuzi bwiza.

Icyumba kirimo imashini zihambaye kandi zigezweho, zifite ubushobozi bwo gusuzuma ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi benshi icyarimwe, bino bifasha abarwayi kubasha guhabwa ubuvuzi bwihuse kandi bose bakabasha kubona indwara bafite kandi bakabasha kuba bavurwa mu buryo bwihuse.

Icyumba kabuhariwe mu gukonjesha gisangwa mu bitaro, aho ari kigari ku buryo cyabasha kubika ibizamini ndetse n'indi miti ikenera ubukonje bukabije kugira ngo ibashe kugumana ubuziranenge bwayo, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuba kiri mu bitaro kuko bituma ibizamini ndetse n'iyo miti ibasha kubikwa neza.

Abaganga bari mu myenda y'akazi barimo barasuzuma abarwayi babasanze, aho babanza kureba ibipimo by'ibanze, harimo nko gusuzuma umuriro, kureba ibiro bya bo, uburebure, gupima umuvuduko w'amaraso, ibi bikaba bibafasha kubasha kumenya indwara umuntu arwaye byihuse.

Abaganga n'abaforomo, bari mu nyubako yagenewe gusuzumirwamo ibizamini bitangwa n'abarwayi ndetse bakaba banasuzuma n'ubwoko bw'imiti, bakaba bafite ibikoresho byiza kandi bigezweho bibafasha kubasha gusuzuma ibyo bizamini, bakamenya indwara abarwayi baba bafite ku buryo babasha kumenya n'uburyo babavura.

Inzu yo mu bitaro ifite umwihariko wo kwakira ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi, cyane cyane abo bikekwaho ko bafite malariya, bikabasha kuba byapimwa, bikabasha kuba byamenyekana nimba baba bafite malariya, ikaba afite n'umwihariko wo gusuzuma imibu ishobora gutera malariya, ku buryo habasha kumenywa uburyo yabasha kwirindwa.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Ruhengeri, kiri ku ruzitiro ruzitiye bene ibi bitaro, kandi bikaba ari ibitaro byubatse ahantu heza, ariko hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bajya ku isoko, rero uru ruzitiro rutuma abajya ku isoko batabangamirwa n'abarwayi, ndetse n'abarwayi bari mu bitaro bakaba batabangamirwa n'abajya ku isoko, bikaba byatuma bose babasha guhabwa ubuvuzi, ndetse n'abajya mu mirimo yabo ya buri munsi ntibabangamirwe.

Inzu y'ibitaro yubatse mu buryo bugezweho, ikaba yubakanwe ubuhanga kandi ikaba iri ku mbuga nini ku buryo ishobora kwakira abarwayi benshi kandi mu gihe kimwe kandi ikaba ifite n'ubuvuzi butandukanye ku buryo buri murwayi n'indwara yaba afite, yabasha kubona umuganga w'inararibonye ubasha kuba wamufasha gukira indwara yaba afite cyangwa kuyisuzuma, akabasha kuba yayikurikirana mu buryo buhoraho.

Ivuriro ryubatswe mu buryo bugezweho kandi bubungabunga ibidukikije, ndetse isuku ikaba yimakazwa, aho dushobora gusanga ahabugenewe kujugunywa imyanda kandi hagaragara, ndetse hakaba hari n'isuku igaragarira ijisho, ku buryo umurwayi nahagera ari bube yizeye ubuvuzi agiye guhabwa.

Agace ko mu bitaro kaba karagenewe kwakira abarwayi b'abana, aho ababyeyi babasha kujyana abana bakabasha gusuzumwa indwara zitandukanye bafite, haba hariyo abaganga n'abaforomo bahagije ku buryo abana bose babagana babasha kuvurwa byihuse kandi bakabasha kuba hatahurwa indwara bafite, ku buryo ubuzima bwabo bubasha kuba bwakwitabwaho kandi bukabungabungwa.

Abagore batatu bambaye imyenda y'akazi yo mu bitaro isa n'ubururu ndetse banateze udutambaro mu mutwe kugira ngo tubashe gufata imisatsi yabo. Bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bishimiye umurimo bakora kandi ukaba ari n'umurimo ufasha rubanda nyamwinshi kuko babasha kuvura indwara z'abantu babagana ku bitaro bakoreraho.

Umuryango uriho icyapa cyerekana ko ari icyumba cyo kubagirwamo, iki kikaba ari icyumba kiba gifite ibikoresho byinshi kandi bigezweho, bifasha abaganga kubaga umurwayi batatumye wenda hari izindi ndwara yarwara, bakaba bamuvura byihuse kandi bikaba byatuma indwara yaba yaje afite ibasha kuba yakira.

Inyubako y'ibitaro ifite ibikoresho bihagije bishobora kuba byakwifashishwa mu gihe cy'indwara z'ibyorezo, aho abaganga bashobora kuba bafite imyenda yabafasha kwirinda kuba bakwandura bene izo ndwara z'ibyorezo, ndetse n'ibitanda bishobora gufasha abarwayi b'indembe mu gihe barimo barongererwa umwuka cyangwa barimo barakenera ubundi bufasha bwihariye.

Umuganga uri mu myenda y'akazi isa n'ubururu, yicaranye n'umubyeyi w'umukecuru na we wambaye ibitenge by'ubururu barimo baraganira. Bigaragara ko umukecuru ari kumubwira uko ubuzima bwe burimo buragenda, mu gikari turahabona urutoki ruhinze.

Icyumba cyabugenewe aho umurwayi ahurira na muganga bakabasha kuba baganira bari mu muhezo uhagije bityo bigatuma muganga abaza umurwayi ibibazo bitandukanye, kandi n'umurwayi agasubiza nta nkeke afite kuko bino bituma umuganga abasha kumenya indwara umurwayi afite kandi umurwayi akumva yisanzuye ku buryo yamubwira ibibazo byose yaba afite.

Inzu yagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, ikaba ifite ibikoresho byinshi kandi bigezweho harimo nk'ibyuma byo guterura bino bikaba bifasha kubaka imbaraga ndetse no kubaka umubiri kuwabikoresheje neza, hakagaragaramo n'amagare afasha umuntu gutwika ibinure kandi atavuye aho ari.

Abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga w'ubuvuzi, bari mu nyubako ifite ibikoresho byiza kandi bigezweho, bituma babasha kumenya gukoresha imashini zitandukanye zisangwa kwa muganga, bityo bakazabasha gukora neza mu bitaro bazajya gukoramo, aho bazatanga ubuvuzi bufite ireme kandi bagafasha ababagana.

Ibitaro bizwiho kugira umwihariko wo kuvura indwara zitandukanye zo mu mutwe, bikaba byubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, burengera ibidukikije, hakaba harangwa isuku, bino bikaba bifasha abarwayi babagana kuza bafite icyizere cyo guhabwa ubuvuzi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kiba kiri mu muhezo, aho umurwayi ashobora guhura n'umuganga akamukorera isuzuma ryimbitse cyane cyane nk'abafite indwara zibasira imyanya ndangagitsina, aho baba bakeneye umuhezo uhagije hari icyumba kiba cyarabugenewe, aho babasha guhura n'umuganga bakabasha gukora isuzuma ryimbitse ku buryo indwara bafite yabasha kuba yamenyekana ikavurwa.

Inyubako yo kwa muganga iri ahantu hari isuku kandi hari urumuri ruhagije, hakaba harimo ibikoresho byinshi kandi byiza bigezweho bifasha abaganga kubona indwara, kuvura abarwayi babagana ku buryo bataha indwara bafite yabonetse kandi babashije kuvurwa neza.

Inzu yabugenewe, aho imiti ivura indwara zitandukanye ibikwa, ku buryo abarwayi iyo bandikiwe imiti na muganga, bashobora kugera kuri bene izi nyubako, bakabasha kuba bagura imiti bakeneye ikaba yabafasha gukira indwara baba barwaye.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikoresho byiza kandi bihagije bifasha gusuzuma indwara zandura, hagati y'abantu cyangwa izakwandura ziturutse ku nyamaswa ku buryo habasha kureberwa hamwe uburyo izi ndwara zavurwa kandi zikaba zakwirindwa mbere y'uko zanduza abantu.

Agace ko mu bitaro hashyirwa abarwayi barembye cyane, baba bakeneye ubufasha bw'ibanze cyane nk'umwuka cyangwa kongerwa amaraso, bityo bigatuma babasha gukurikiranwa n'abaganga byihuse kandi byoroshye, aho baba bari ahantu habugenewe, aho abaganga babasura bihoraho, bakabasha kumenya uko umubiri wabo urimo urakora neza.

Inzu yabugenewe. aho abarwayi bafite ikibazo cy'amaso bashobora gusanga indorerwamo zabafasha kureba neza bitewe n'ikibazo bafite kandi bakaba babyandikiwe na muganga ku buryo bazabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi, mu gihe amaso yabo atakibasha gukora neza.

Ahakirirwa abarwayi mu bitaro, hakaba hubatse mu buryo bwa kijyambere, kandi hakaba harangwa n'isuku, ushobora kubona aho abarwayi bategererereza ndetse n'akazu kabugenewe aho abarwayi bafite indwara zandura bashobora gushyirwa mu kato, mbere y'uko babonana na muganga kugira ngo batanduza abandi.

Inzu ngari y'ibitaro yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ikaba kandi ifite ahabugenewe guparika imodoka kandi hahagije, ikaba yubatse mu buryo bwiza kuko abayigana babasha kubona aho bakirirwa kandi hisanzuye, kandi bakabasha kuba bahura n'abaganga bahagije bakavurwa neza.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa kugira ngo abashe kwirinda indwara zandurira mu bitaro, ari kugenda mu bitaro aho bigaragara ko ari ibitaro byubatse neza kandi birangwamo n'isuku, amatara ahagije abasha kubonesha ndetse n'ibikoresho bigezweho, ku buryo bituma ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho bubasha guhabwa abarwayi bagana bino bitaro.

Igice cyo mu bitaro kizwi nka Isange gifite ubushobozi bwo kuvura indwara ziba zatewe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rigafasha abahohotewe gukira ihungabana biba byabateye kandi bikaba byanabafasha kurebera nimba nta ndwara zishobora kuba zaturutse mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakaba babasha kuba bazivurwa.

Umuganga ari mu nyubako ifite ibikoresho byiza, kandi bigezweho, ku buryo abasha gusuzuma ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi, akabasha kumenyekana udukoko dushobora kuba duteza indwara zitandukanye, bityo bigafasha abaganga kuba bamenya imiti batanga, ivura indwara zitandukanye, abarwayi baba bafite.

Mu bitaro hari igice cyagenewe kwakira abarwayi baje babigana ariko bafite indwara zidatuma batinda mu bitaro cyangwa ngo bararemo, bino bikaba ari ingenzi kuko bituma abarwayi bagera kwa muganga bakabonana n'umuganga byihuse, bitabasabye gutinda bigatuma babasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi nyuma kandi bahawe ubuvuzi bwihuse.

Umugabo ndetse n'abagore bane bahagaze imbere y'agace ko mu bitaro gashinzwe kwakira ibizamini bitangwa n'abarwayi, urugero nk'umusarani, bikaba byabasha gupimwa ku buryo habasha kumenyekana indwara barwaye, bikabafasha kuba bavurwa bagahabwa imiti ibafasha gukira.

Icyumba rusange aho abarwayi bahawe kuguma mu bitaro kugira ngo bakomeze bakurikiranwa n'abaganga baba bari; haba hari isuku, hari inzitiramibu kugira ngo bataba barwara Malariya, hari urumuri ruhagije, kandi hari n'umwuka mwiza wo guhumeka; ku buryo abarwayi bakomeza gukurikiranwa kandi bari mu buzima bwiza.

Umuforomokazi arimo aragenda mu bitaro byiza kandi bigezweho, haragaragara isuku kandi hari amatara ahagije yo gutanga urumuri ruhagije ku buryo abantu babasha kubona, ibi ni ingenzi cyane kuko biha icyiyizere abarwayi ko baje kwivuriza ahantu hizewe, kandi hakaba harangwa n'isuku, bituma bagira icyizere cy'uko baraza guhabwa ubuvuzi bwizewe.

Icyumba cyo mu bitaro cyahariwe gukorerwamo inama, aho abayobozi b'ibitaro ndetse n'abandi baganga bahurira hamwe bakarebera hamwe ikiri gutera indwara runaka mu baturage, bakareba uburyo babasha guhangana n'icyorezo gishobora kuba cyaba cyadutse, cyangwa bakareba izindi nshingano zabo baba bagomba nimba zubahirizwa neza ku buryo abaturage bagezwaho ubuvuzi bwizewe.

Igikoresho kimeze nk'igikweto kinini kizamuye kikagera mu mavi, kikaba cyifashishwa kwa muganga ku bantu bagize imvune zitandukanye, wenda bakina, cyangwa izindi mvune zatewe no kugwa, bino bikaba bituma amagufa yaba yangiritse akira vuba, kandi umuntu akaba atabasha kuyakomanya, mu gihe yaba atarakira neza.

Imashini yifashishwa kwa muganga, ikaba ifite ububasha bwo gukoresha ingufu z'amajwi, ikaba ishobora kwifashishwa mu kuvura imvune, aho hashobora kuba harebwa aho imvune igeze ikira, cyangwa hakaba hakongerwa umuvuduko w'amaraso kuri ako gace kavunitse ,kakabasha gukira vuba.

Umugabo urimo arakora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko yubatse umubiri kuko akora imyitozo mu buryo buhoraho; arimo aranywa amazi kuko ari ingenzi kunywa amazi mu gihe urimo urakora imyitozo ngororamubiri, kuko umubiri uba wabuze amazi mu byuya, bityo bigatuma umuntu atahwera bitewe no kubura amazi mu mubiri.

Umukinnyi wambaye isengeri isa n'icyatsi kibisi, ararushye cyane kubera imbaraga nyinshi amaze gukoresha arimo arakora imyitozo ngororamubiri, bityo yifashishije icupa ry'amazi kugira ngo abashe kugabanya ibyuya bimuri mu maso kandi abashe gukonja kuko umubiri uba washyushye bihagije.

Umurwayi yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yahise yihutanwa kwa muganga, aho bahise bamukorera ubutabazi bw'ibanze bamufasha kugabanya ububabare, aho hifashishijwe urubura rwaziritswe mu gatambaro gasa n'ubururu, bino bikaba byamufashije kugabanya ububabare.

Ibikoresho by'ibanze bishobora kwifashishwa mu gutanga ubutabazi bwihuse ku muntu waba ugize imvune cyangwa akomeretse arimo arakina, aho dushobora gusanga imiti yoza ibisebe, ipfuka ibisebe ndetse n'igabanya ububabare ku buryo yagezwa kwa muganga atagifite ububabare butuma ababara cyane.

Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri, aho arimo ariruka ariko akageraho akanirambura. Ibi ni ingenzi cyane kuko uko ukora imyitozo ngororamubiri, ukenera no kwirambura kugira ngo udahinamirana. Ibi kandi bikaba byongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko umubiri uba ubasha kwigorora neza, kandi ukabasha no gukomera mu buryo bwiza butuma utarwaragurika.

Umugabo ari mu nzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, arimo arakora imyitozo itandukanye, akaba ari kumwe n'umugore uri kumuyobora, ibi ni ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu, kuko imyitozo ngororamubiri ikomeza amagufa, igatuma kandi n'inyama ziyongera ku buryo umuntu abasha kugira ubuzima bwiza, kandi ikaba afite imbaraga zituma abasha gukora imirimo ye ya buri munsi.

Umugabo wari uri mu myitozo ngororamubiri ku zuba ashobora kuba yarimo ariruka cyangwa akina umupira w'amaguru, yashyushye cyane kandi abira ibyuya byinshi bityo yitabaza agacupa k'amazi akonje aho yanyweyeho make andi akayisuka mu mutwe kugira ngo abashe kugabanya ubushyuhe bwatewe n'ibyoyabize.

Agakapu gatwarwamo ibyangombwa by'ingenzi kuba byakwifashishwa mu gihe cy'ubutabazi bw'ibanze, mu gihe abakinnyi baba bagize ibibazo wenda bavunitse, cyangwa bavuye ibisebe, aho haba harimo ibigabanya ububabare, ibipfuka ibisebe, ndetse n'ibyongera gufasha umuntu kuba yabasha kugenda, bityo akaba yabasha kuba yagezwa ku bitaro, agahabwa ubuvuzi bwimbitse, ariko hari ubw'ibanze yabanje guhabwa.

Urubyiruko rwahuriye hamwe aho rwitabiriye imyitozo ngororamubiri rusange, aho bafite uri kubayobora abereka ibyo bakora, ibi ni ingenzi cyane kuko gutoza urubyiruko ndetse n'abana bakiri bato kuyoboka imyitozo ngororamubiri bituma babikurana kandi bakazabikomezanya, bikazatuma bagera mu busaza bwabo bagikomeye kuko imyitozo ngororamubiri ituma umubiri ukomera.

Umukobwa, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, akaba afite icupa ry'amazi meza ku ruhande, ibi bikaba bigaragaza ko akora imyitozo ngororamubiri ku buryo buhoraho kuko ari kuyikorera iwe mu rugo, ibi ni ingenzi cyane gukora imyitozo ngororamubiri bihoraho, kuko bituma umubiri utarwaragurika kandi ugahorana imbaraga zo gukora imirimo itandukanye ya buri munsi.

Umugabo arimo arakora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko umubiri we rwose wubatse neza, bikaba byerekana ko akora imyitozo mu buryo buhoraho. Ibi ni ingenzi cyane kuko imyitozo ngororamubiri bituma umubiri utarwaragurika kandi ugahorana imbaraga zo gukora akazi ka buri munsi.

Insanganyamatsiko yibaza nimba gukoresha imiti yongera imbaraga mu bakinnyi b'imikino itandukanye, byaba koko ari byiza, aho bamwe bibaza ko bishobora gutuma hatabaho uburinganire ku babikoresheje ndetse n'abatabikoresheje ariko abandi bakavuga ko ari ngombwa kuko bituma abakinnyi bakina neza.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bahuriye hamwe, aho bagiye gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko umuntu umwe ashobora kugira ubute ariko iyo benshi bahuriye hamwe baterana imbaraga, bigatuma bakora imyitozo ngororamubiri bikaba bituma kandi umubiri ubaho neza kuko imyitozo ngororamubiri ituma umubiri utarwaragurika kandi ugahorana imbaraga.

Umuti uri mu icupa ry'umweru, ukaba ugabanya ububabare mu gihe umuntu yaba yakomeretse, ari gukina cyangwa atsitaye, ku buryo yabasha gukomeza ubuzima atarimo arababara.

Ibyuma bitandukanye bifite ibiro byinshi, bikaba bishobora kwifashishwa ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri. Aho bishobora gutuma abantu bagira imbaraga, kandi bakagira n'inyama zigaragara. Kandi ibi bikaba ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, kuko byongera ubudahangarwa bw'umubiri bigatuma umubiri utarwaragurika.

Ibikoresho byifashishwa ku banyeshuri bari kwiga gutanga ubuvuzi bwihuse, ku bantu bashobora kuba bagize ikibazo cyo kubura umwuka cyangwa guhera, aho bashobora kwifashisha kubakanda ku mutima, kandi babongerera umwuka ku buryo babasha kuzanzamuka, bakabasha kuba bajyanwa kwa muganga batarashiramo umwuka.

Umwana muto ari gukina n'abantu bakuru, hari ibikinisho bitandukanye bikunze gukinishwa n'abana barimo barifashisha bakina na we, ibi ni ingenzi cyane kuko umwana iyo akina n'abantu bakuru bituma ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda neza, kandi agahorana akanyamuneza, bikaba byanatuma kandi akora imyitozo ngororamubiri itandukanye, ku buryo agira ubuzima buzira umuze.

Umukinnyi wari uri mu marushanwa yo kwiruka n'amaguru yagize ikibazo aho yahise atabarwa kuko hari hari abaganga batandukanye bashobora kuba bafasha abagize ikibazo. Biba ari ingenzi cyane mu myitozo ngororamubiri kuko umuntu ashobora guhuriramo n'impanuka zitandukanye, rero hari abaganga hafi aho bashobora guhita batanga ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihuse ku buryo umuntu yabasha gutabarwa hakiri kare.

Agasanduku gasa n'icyatsi kibisi, aho dusangamo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo nk'ibipfuko, imikasi, imiti igabanya ububabare, ibi bikaba byifashishwa mu gihe umuntu akomeretse mu gihe hakenewe kuba yafashwa byihutirwa.

Umukobwa arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho ari kwibanda mu kwinanura, ibi bikaba ari ingenzi cyane gutuma umubiri ugororoka kandi ukaba utagira ibibazo byo kuvunagurika kuko byaje kugaragara ko umubiri utagororwa bishobora gutuma uvunagurika byoroshye, bikaba byanavamo imvune, karande cyangwa ubumuga.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri agezeho yumva inyota iramwishe, anywa amazi meza ari mu gacupa keza gasukuye. Ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko umuntu uri mu myitozo ngoramubiri aba yabuze amazi menshi mu byuya, rero aba agomba kugira amazi anywa kugira ngo atabasha kuba yahwera bitewe no kubura amazi mu mubiri.

Igikoresho gifite amapine ane hasi ndetse n'aho gufata hejuru, kikaba gikoze mu buryo bugezweho ariko kigafasha umuntu ushobora kuba yagize imvune kugenda neza, muri make kikaba gikora nk'akabando ariko kakaba gakoze mu buryo bugezweho kandi bwiza kandi bworohereza umuntu kugenda.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, ari kunyuzamo akagorora amaboko, ibi bikaba ari ingenzi cyane ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri, kugorora amaboko yabo ndetse n'izindi ngingo, kuko bibarinda kuba babasha kuvunagurika byoroshye, ndetse no kubabara mu ngingo, kuko iyo umuntu atagorora ingingo ze, agira ububabare buhoraho.

Umugabo arimo araterura ibiro biremereye nk'umwitozo ngororamubiri, akaba ari kumwe n'umugore urimo uramufasha kureba nimba arimo arabikora neza, ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko bituma umubiri ugira imbaraga kandi ukaba utarwaragurika, kuko umubiri ukora neza uba ufite imbaraga, kandi bigatuma n'indwara zitabasha kuzahaza umubiri mu gihe yaba azifite.

Abanyeshuri barimo barigishwa uburyo bazajya batanga ubuvuzi bw'ibanze bwihuse ku wababa ugize ikibazo wenda mu mikino akavunika cyangwa agahwera, bityo bikaba byatuma babasha kubazanzamura bakaba bagezwa ku bitaro, aho bahabwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho ariko hari ubundi bufasha babanje guhabwa mbere.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri iwe mu rugo, bigaragara ko arimo arirambura, iki kikaba ari ikimenyetso cyiza cy'uko afite umuco wo gukora imyitozo ngororamubiri ari no mu rugo, bigaragara ko ashobora kuba abikora bihoraho, iki kiba ari ikimenyetso cyiza cy'umuntu uzagira ubuzima bwiza, kuko imyitozo ngoramubiri yongera iminsi yo kubaho, ikanafasha umuntu kutarwaragurika.

Abakinnyi bakora imyitozo ngororamubiri ikabije, baba bakeneye gufata indyo yuzuye iba ikungahaye ku birinda indwara, ibyubaka umubiri, ndetse n'ibitera imbaraga, ku buryo babasha kugira imbaraga zo gukora iyo myitozo ikakaye, kandi bakabasha kuba bagira ubuzima bwiza kuko imyitozo ngororamubiri yongera ubudahangarwa ku mubiri, kandi bigatuma umubiri utarwaragurika.

Kugira ubuzima bwiza buzira umuze umuntu aba agomba gufata indyo yuzuye, irangwa n'imbuto n'imboga, ibikomoka ku matungo, ibyongera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara, agakora imyitozo ngororamubiri ihagije kugira ngo abashe kugira imbaraga, akaruruka bihagije kandi akanywa amazi meza asukuye, ku buryo abasha gukomeza gukora imirimo ya buri munsi atarwaragurika.

Umuganga arimo arareba mu ivi ry'umurwayi wiwe, areba nimba nta kibazo cyaba kirimo, umurwayi yambaye ikabutura bigaragara ko ashobora kuba yari umukinnyi, wari urimo arakina, akaba yagize ikibazo ari gukina, akaba yagira imvune mu ivi, aho muganga ari kureba ibishoboka byose yamufasha, kugira ngo amukize cyangwa agabanye ububabare yaba afite.

Umuganga arimo arafasha umurwayi ushobora kuba yaragize ikibazo cy'imvune, aho ari kumufasha mu bijyanye n'ubugororangingo, aho aba yimenyereza kongera kugenda cyangwa kuba yakoresha ingingo ziba zaravunitse, ibi bikaba ari ingenzi ku buryo umuntu azasubira mu mirimo ye ya buri munsi nta kibazo afite kuko aba yarongeye kumenyera gukoresha urugingo ruba rwaragize ikibazo.

Uducupa ndetse n'udukarito turimo imiti iba yarakozwe mumera bitandukanye, hari agacupa karimo imiti yakozwe mu gikakarubamba, ikaba ifasha abantu bafite ikibazo cyo kugira uruhu rukanyaraye bakabasha kuba babikira, kandi utwo dukarito dushobora kuba turimo ibyakongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, mu gihe atabasha kubona ibihagije mu biryo arya.

Udukarito ndetse n'amacupa arimo ibikomoka ku kimera cy'igikakarubamba, biba byatunganyijwe mu nganda, bino bikaba ari ingenzi cyane kuko byifashishwa mu buzima butandukanye, kuko iki gihingwa gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye nk'inzoka, kandi kikaba ari cyiza ku mubiri w'umuntu kuko cyifitemo intungamubiri zitandukanye.

Imiti ikorwa mu byatsi ikaba ibitswe mu macupa y'ibirahure, ikaba ari ingenzi cyane kuko ifasha umubiri guhangara indwara kuko yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikindi kandi atuma ibiryo bibasha kugenda neza mu nda, bikoroshya igogora, bigatuma umuntu atagugara.

Igikakarubamba ni icyatsi gifite amahwa ku ruhande, kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, aho gishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda, harimo impatwe ndetse n'inzoka zishobora kuba zatuma umuntu ahitwa.

Udukombe tubiri turimo icyayi hongewemo umuravumba, aho bene iki cyayi gifasha umuntu utabasha guhekenya umuravumba kuba yawifashisha na we ukaba wamugirira akamaro kuko umuravumba ukiza indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane ndetse no kubabara mu gatuza.

Ubwoko bw'imiti iba yarakozwe mu nganda, aho ibimera bitandukanye bihurizwa hamwe bikabasha kuba byabasha gukorwamo ibinini biba bifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bikabasha kuba kandi byakongera intungamubiri umuntu ashobora kuba atabona mu biryo, bityo bigatuma umubiri ubasha gukora neza kandi ukabona intungamubiri zose nkenerwa.

Umubyeyi ari gusoroma ibibabi by'umuravumba ku rugo rwe, ibi bibabi bikaba ari ingenzi kuko byifashishwa mu buvuzi butandukanye, kuko bifite umwihariko wo kuvura indwara nk'inkorora, kubabara mu muhogo, kandi zikaba ari indwara zikunda kwibasira abantu, rero zikaba byifashishwa kuko bituma izo ndwara zibasha kuba zakira kandi byihuse.

Ibinini bikorwa mu kimera kizwi nka turumerike mu ndimi z'amahanga, kikaba gikomoka muri Aziya, kikaba gifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuvura ibishishi ndetse kikaba gishobora no kuvura indwara z'igifu gikunze kuzahaza abantu benshi.

Imiti ya Kinyarwanda ikorwa mu byatsi biboneka hirya no hino mu gihugu ikaba izwiho kugira imbaraga zo kuvura indwara nyinshi zitandukanye, aho bafata ibyatsi bitandukanye bakabivanga bakabikoramo umutobe, ushobora kuba wafasha kurinda indwara zitandukanye zo mu nda amarozi ndetse n'izindi.

Ibikombe bitatu birimo ibinini, bikaba ari iby'ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko bifasha abantu batabasha kubona intungamubiri zihagije mu byo barya kuzibona ndetse bikanagira n'umwihariko wo gufasha umuntu gutwika ibinure, bigatuma byagabanya umubyibuho ukabije ndetse bikaba binafasha kongera inyama ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri.

Tangawize ishobora kuba yakwifashishwa mu kuyinywa nk'icyayi cyangwa no kuyiteka mu biryo, ikaba ifite akamaro gakomeye kuko ishobora kuvura indwara zitandukanye nko kubabara mu muhogo, inkorora kandi ikaba yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri bigatuma utarwaragurika.

Icupa ririmo ikinyobwa gikorwa mu nganda ariko kigakomoka ku bihingwa bitandukanye, aho gifite akamaro ko kongera imbaraga ndetse no kurinda indwara ku buryo ukinyweye ahorana imbaraga kandi akagira ubuzima butarwaragurika kuko ibyo bihingwa biba byifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara ndetse no kongerera imbaraga ndetse n'ubushobozi umubiri w'umuntu.

Ikimera cy'igikakarubamba gitunganywa mu nganda, kikaba cyakorwamo imiti nk'ibinini cyangwa n'imiti yo kunywa ku buryo gishobora kuba cyagira akamaro ku mubiri w'umuntu kuko gifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma umubiri utarwaragurika.

Agacupa gafite umufuniko w'umuhondo, kakaba karimo umuti w'ifu ukomoka ku kimera kizwi nk'umuravumba, ukaba ari umuti w'ingenzi cyane kuko ufasha kuvura indwara z'ubuhumekero zikomeye ndetse n'izoroheje, nk'ibicurane, kubabara mu gatuza, kandi ibi byose ukabikora mu buryo bwihuse, kandi bwizewe.

Ibimera bitandukanye bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, bishobora kuba byakwifashishwa mu gukora ibinini bivura indwara zitandukanye, bigakorwa mu buryo bishobora kuba byabikwa igihe kirekire kandi bikaba byanagira ubushobozi buhambaye bwo kuvura indwara kuruta uko ibimera byonyine byabikora.

Icyatsi kizwi gukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho gifite ububasha bwo kuvura indwara zitandukanye, harimo malariya, ikindi kandi ishobora kuvura ibibyimba biterwa n'udukoko dutandukanye, kandi gifite n'ubushobozi bwo kuba cyavura indwara zo mu nda ndetse no kubabara mu nda.

Icupa ririmo umushongi w'ubuki, bukaba ari ubuki bw'umwimerere butavangiye, bukaba bufite ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu kuko bwifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara nk'inkorora, kuvura ibisebe ndetse no kuvura ibiheri byo mu maso, umuntu akagira uruhu rwiza kandi rutoshye.

Uducupa turimo ikawa yatunganyijwe neza mu ruganda, ikongerwamo bituma ihumura neza n'ibituma iryoha neza kurushaho, bityo bigafasha abayinywa kuyinywa biboroheye bitabasabye kubanza kuyitunganya, kandi ikaba yabagirira umumaro kuko ikawa ifite akamaro ko gutuma umuntu atagira ibitotsi, kandi akumva ari muzima nta bindi bintu biri gutuma yumva adatekereza neza.

Icyatsi kizwi ku izina rya umbunyu bwa nyamanza kikaba kizwiho kuryohera ariko kikaba cyifashishwa muvuzi gakondo mu kuvura icyo mu nda cyo mu bana, aho bituma umwana ababara mu nda ariko iyo ahawe kino cyatsi bizwiho kugira ingaruka zo gutuma icyo mu nda gikira.

Ibinini biri mu gakarito k'umweru n'umutuku, bikaba ari ingenzi cyane ku barwayi bafite ikibazo cy'imirire mibi no kutabona intungamubiri zihagije mu byo barya, bityo bikabafasha kwirinda ingaruka zo kurwaragurika bihoraho.

Imiti itandukanye ikozwe mu buryo bwa gihanga, ariko ikaba yose ikomoka ku gihingwa cy'igikakarubamba, bikaba ari ingenzi ku ruhu, kuko ifasha uruhu kudakanyara, ndetse bikagira n'izindi ngaruka nziza ku ruhu ku muntu ushobora kuba afite ibiheri mu maso bikamufasha kuba byakira.

Ibikombe birimo icyayi byashyizwemo umuravumba ku buryo bifasha abantu bafite ikibazo cyo kudahekenya umuravumba kuba babasha kuba bawunywa na wo ukaba babagirira akamaro, kuko umuravumba ukiza indwara zitandukanye nk'ibicurane, inkorora ndetse no kubabara mu muhogo.

Ikimera kizwi ku izina rya kapusine, kikaba gishobora kunywebwa gisekuwe cyangwa gihekenywe, kikaba gifite akamaro gakomeye kuko gishobora kuvura indwara nk'inkorora n'ibicurane ku bana, kikanavura indwara z'imyanda mu myanya ndangagitsina haba ku bagabo cyangwa ku bagore.